Mu mashuri hirya no hino hatandukanye usangamo abana biga amasomo yabo kandi ugasanga ari abana bafite ubuhanga, aho bitabira cyane kandi ugasanga batanga n'ibitekerezo mu ishuri, aho iyo umwana ashaka gutanga igitekerezo mu ishuri amanika ukuboko hanyuma umwarimu we akamubaza.

Ubukangurambaga bureba abashakanye ni ubukangurambaga bwiza, aho abanyabuzima baba bashobora kwegera abashakanye bakababwira uburyo bwiza baba bashobora gukoresha baboneza urubyaro, kandi rwose rukaba ari uburyo bwafashije kwirinda kubyara indahekana, cyangwa se bukereka abashakanye uko bashobora kwita ku mwana uri mu nda cyangwa se ku mwana wavutse.

Ubukangurambaga bw'ikigo gishinzwe ubuzima rbc n’ubukangurambaga buba bwihariye aho bukangurira buri munyamuryango wa rbc wese ingingo n'urugero yagakwiye gutanga nuko bagakwiye kubungabuga ubuzima bwabaturage b'igihugu hagendewe kuri sezo turimo cyangwa se ibihe turimo by'umwaka.

Uburyo bw'inama ni uburyo bwiza aho buhuza abantu bagiye batandukanye bakorera ibigo runaka cyangwa se bafite ikintu bahuriye bashobora kuba baganiraho, kandi bukaba ari uburyo bwiza butuma abantu bafata imyanzuro yumvikanweho kandi ishyize mu gaciro.

Gukingira abana ni igikorwa cyiza, aho umwana ukivuka agenda afata ingingo zigiye zitandukanye kugeza akuze. Izo nkingo zikaba ari izimurinda indwara zigiye zitandukanye, harimo nk'imbasa n'izindi ubwo rero kujyana abana kubakingiza ni kimwe mu bikorwa byiza umubyeyi agomba kwitabira.

Amariba rusange ni uburyo bwiza bwashyizweho na leta, aho tugenda dusanga iriba muri buri karitsiye, kandi akaba ari iriba rizana amazi meza kandi rifite ahantu ho kuvomera henshi ku buryo hadashobora kubaho ibura ry'amazi cyangwa se abantu bagatonda umurongo ari benshi cyane, ni uburyo bwiza bworohereza abaturage.

Abageze mu za bukuru ni abantu bagaragara neza cyane rwose, cyane cyane bambaye imyenda y'ababyeyi n'ibitenge iyo tubona kwifotoka bishimye ubona ari ifoto rwose iryoheye ijisho buri muntu wese akwifuza kureba.

Indwara yo kwiba ni indwara igaragara kenshi cyane mu rubyiruko, aho usanga urubyiruko rwinshi rwarihebye bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko biba byiza iyo bagize ubegera akabagira inama kandi akabereka inzira ya nyayo bagomba kwitwara nk'iyo ndwara cyangwa se muri ibyo bibazo bahanganye na byo.

Kurira ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko umuntu ababaye cyangwa se ahangayitse, aho umuntu uwo ari we wese ashobora kuba yarira, akaba bishobora gutuma amaso ye atukura cyane kandi akazana ibitonyanga cyangwa se amarira menshi ku matama cyangwa se ku minwa.

Ubuvuzi bw'amenyo ni bumwe muvuzi bwateye imbere, aho nubwo waba ufite ikibazo cy'amenyo yahangutse cyangwa se yacukutsemo umwobo, bashobora kuyasana bifashishije ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha guhoma amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo n'ubuvuzi buri gutera imbere mu gihugu aho dusanga indwara zose z'amenyo bazitaho kandi zigakira cyane cyane amenyo atari mu mwanya wayo aho bakoresha ibyuma byabugenewe urugero nk'amaga ibyuma bigarura amenyo mu murongo n'ibyo tuzi nka apareye.

Kwa muganga aho iyo tumaze kwisuzumisha tukamenya indwara turwaye tugana umuntu utwandikira imiti, tugomba gukoresha kugira ngo dukire indwara kandi atukatugenera ingano n'igihe tuzajya tuyinywera, ubwo rero akatubwira bibaye byiza n'icyo twazajya dukoresha tunywa iyo miti.

Abageze mu zabukuru tubasanga hirya no hino mu gihugu aho dusanga bakunda kuba ari abantu bakunda gukenyera imikenyero nyarwanda ariko nubwo baba bageze mu zabukuru bakenera ababitaho kandi baba rwose bagendera ku tubando bisaba kubaba hafi kugira ngo nabo bumve ko bashyigikiwe.

Bamwe mu bageze mu za bukuru cyangwa se abafite ubumuga budakira, iyo tubitayeho tukabafata kandi tukabereka umutima w'urukundo, ni bimwe mu bibafasha kugumya kubaho banezerewe kandi bumva ko na bo ari abantu bakunzwe.

Abaganga batera imiti yica udukoko hirya no hino mu gihugu, usanga ari uburyo bwiza bw'ingirakamaro kandi batanga serivisi nziza aho baba bambaye imyenda yabugenewe ibapfuka umubiri wose, bambaye n'amarinete y'amaso kandi n'udupfukamunwa tubafasha kuba bakwirinda ko iyo miti batera yica udukoko nabo yabinjira mu mubiri.

Abadogiteri bo mu Rwanda ni abadogiteri usanga akenshi baragiye biga amasomo ahambaye bakiga n'uburyo bagombye kwiyitaho mbere y'uko binjira mu kazi ka bo ko kuvura abantu, aho dusangamo bagakwiye kwambara uturindamusatsi, imyenda ibaranga n'ibindi bikoresho bituma umutima bagenda bitwaje gatuza.

Minisiteri ishinzwe Ubuzima, ni ikigo cya Leta gifasha abantu kumva uburyo bwiza bagakwiye gukoresha bita ku buzima bwabo, kandi bugakangurira abantu babinyujije no mu bigo byihaye Imana, urugero nk'abagatulika cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye.

Muri sitoke y'imiti mu bitaro bigiye bitandukanye, ni ahantu haba habitse imiti itandukanye, tuhasanga inkingo zikingira indwara zitandukanye, imiti ivura indwara z'ubwoko bwose, kandi ugasanga iyo miti ifite ama etajeri abibika neza ku buryo idashobora kwangirika.

Kwa muganga tuhasanga ibikoresho bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bifasha abaganga kureba indwara umurwayi afite bitabagoye, kandi ibyo bikoresho bikaba bikoreshwa n'abaganga bambaye neza, bafite ubumenyi kuri ibyo bikoresho kandi babihuguriwe kandi bazi no kubikoresha.

Kwa muganga hose tuhasanga ibitanda by'abarwayi tuzi nka burankari aho ari ibitanda nikoranye ikoranabuhanga bidufasha kwimura umurwayi ava mu cyumba kimwe ajya mu kindi hatabayeho uburyo bwo kumubangamira bamuterura ahubwo ibyo bitanda bikaba bifite amapine twifashisha kugira ngo tubigendeshe tumuvane ahantu hamwe tumujyane ahandi.

Kwa muganga iyo twagiyeyo duhura n'abaganga batuvura kandi tukabasha kuba twaganira nabo, aho tubabwira uko twiyumva kandi nabo bikaborohera kuba batahura indwara turwaye, kandi nabo bikabafasha kumenya uburyo bwiza batugiramo inama, uko tugomba kujya twiyitaho kugira ngo indwara turwaye ibe yakira mu buryo bworoshye.

Hirya no hino mu gihugu tuhasanga amavuriro yigenga agiye atandukanye, aho ayo mavuriro amwe n'amwe aba afatanya na Leta kugira ngo avure abarwayi indwara zigiye zarananiranye cyangwa se kugira ngo ifashe aho bishoboka kugira ngo hatazabaho icyuho cy'ubuvuzi buke mu gihugu.

Ibitaro ni ahantu heza hateganyijwe na Leta, aho dusangamo ibitanda by'abarwayi n'uburyo bubafasha kururuka bava kutanda bagera hasi, kandi bikaba bifasha abarwayi bakaba bashobora kwitabwaho batarinze kujya mu rugo, kugeza bakize cyangwa se borohewe.

Kwa muganga mu bitaro ni hamwe mu hantu harangwa n'isuku kubera ko haba hahuriye abantu batandukanye kandi barwaye indwara zitandukanye hamwe buri wese aba afite igitanda cye kandi gikozwe mu buryo bugezweho kitamuvuna kimufasha kuruhuka neza kandi gifite uburyo bwo kururuka ku gitanda akagera hasi.

Ku bigo nderabuzima tuhasanga ababyeyi baba baje kureba cyangwa se gupimisha ubuzima bw'abana ba bo uko buhagaze, aho dusanga ababyeyi bagiye batandukanye baba baje gukingiza abana cyangwa se baba baje kubafatira imiti ituma batarwara indwara zikomoka ku mwanda, aho buri mubyeyi aba yitaye ku gihe umwana we azarangiriza inkingo.

Kurya indyo yuzuye igizwe n'ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri no gukora siporo, ni kimwe mu bintu byiza kandi bifasha buri wese kuba abayeho neza kandi nta kibazo na kimwe ashobora kuba yagira mu buzima uretse ibiba byaturuka ku mpanuka.

Kunywa amazi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bituma umuntu akomeza kumera neza kandi urwungano ngogozi rwe rugakora neza hakaba tugomba kwihiraho isaha tugomba kunywa kunywa amazi kandi tukishyiriraho n'ingano tugomba kunywa ya mazi bikaba ari ibintu byiza bifasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima aho irinda indwara zigiye zitandukanye kandi igatuma umubiri w'umuntu wumva uhora umeze neza, nubwo bitaba byoroshye dushobora gushyiraho imihate kugira ngo dukore izo siporo, ni iby'ingenzi ko tubizirikana kandi tukabiha umwanya, urugero: nka nyuma y'uko tuvuye mu kazi cyangwa se mbere y'uko tukajyamo.

Umuntu ashobora kugira ubumuga bugiye butandukanye, ashobora kuba yavunika ukuboko cyangwa se ukuguru ariko urugingo rwose ashobora kuba yavunika kwa muganga iyo tugerageje kubagana bararusana kandi rugasubira uko rwari rumeze kubera ko bafite ibyuma byiza kandi bituma urugingo rwongera kugororoka.

Ibigo byigisha imikino njyarugamba igiye itandukanye mu Rwanda bimaze gutera imbere, aho buri kigo kigiye gifite rogo yacyo kandi kikagira n’aho kibarizwa ku buryo iyo ubonye ishusho n'ikirango cyayo, uhita umenya ubwoko bw'imirwanire bigisha.

Agapu k'ubutabazi ni agakapu keza aho byagakwiye ko kaba gafitwe na buri muntu wese aho aba ari agakapu twashyiramo ibintu by'ibanze byadufasha mu gihe duhuye n'impanuka cyangwa se tugize uburwayi butunguranye aho dushobora gushyiramo umukasi ,ibisirendire n'ibipfuko kandi bikaba ari ibintu bishyize mu gaciro.

Kwa muganga haba icyumba cyihariye aho abantu bafite ibibazo byo kubagwa bajyanwa muri icyo cyumba kugira bitabweho aho tuzi nko kwiseta iki cyumba rero dusangamo ibikoresho bifite ikoranabuhanga rihambaye bifasha abaganga kubaga uwo muntu mu buryo bworoshye kandi biboroheye kandi nta nyama yo mu nda n'imwe bangije.

Sikaneri ni imashini yifashishwa kwa muganga hirya no hino hatandukanye, aho hifashishwa kureba mu bice by'imbere mu muntu igice cy'umubiri gishobora kuba kirwaye. Aho amaso ya muntu adashobora kuba yagera areba, kandi akaba ari imashini itahura uburwayi umurwayi afite mu kanya gato cyane.

Ku isi hari imikino myinshi itandukanye aho imwe n'imwe twifashisha icyo twakwita nk'imipira: hakaba ari imipira y'amaguru, imipira ya basiketi, imipira ya rugubi, n'imipira ya tenisi, kandi nubwo biba byifashe bityo abakinnyi bakina iyo mikino bikaba ari ngombwa kuba bafite ubuzima bwiza, hakaba hari n'akuma twifashisha hapimwa uburyo umubiri wabo uhagaze.

Ubucuruzi ni kimwe mu bikorwa bituma igihugu gitera imbere kandi kikabona n'umusaruro mwinshi, aho dusanga ubucuruzi bumwe buba bwiganjemo ibyo kurya, ubw'amavuta, ubw'ibyo kunywa n'ubw'imiti.

Siporo zigiye zitandukanye zifasha abantu kubaka umubiri wabo kandi no gutuma umubiri wabo ukomera aho ibyo bintu bidufasha gukora izo siporo dusangamo nka ariteri, puri n'ibindi bigiye bitandukanye harimo na za peti puwa cyangwa se n'amazu meza afite ibikoresho bihagije adufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Siporo ni ingenzi cyane aho dusangamo hari ibintu bimwe tugomba kuba twubahiriije kugira siporo zitugirire akamaro aho tugomba kuba dufite imyenda ya siporo, inkweto ya siporo, ahantu tugomba gukorera siporo kandi tukaba dufite n'igihe gihagije atari ugukora siporo akanya gato gusa kubera ko umubiri ushaka ko tuwuha ibintu bihagije.

Hirya no hino tuhasanga ibyatsi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvamo imiti nyarwanda aho iyo miti tuyibona twabanje kuyisekura n'udusekuru dutoya, dushobora gukoresha dusekura ibintu bigiye bitandukanye, dushobora gukoramo imiti urugero nka tungurusumu cyangwa se n'ibindi.

Hirya no hino tuhabona ibyatsi bigiye bitandukanye, aho ibyatsi bimwe na bimwe abaturage cyangwa se abantu bashobora kubyifashisha bakabibyazamo umuti ushobora kuba wavura indwara zigiye zitandukanye mu mubiri.

Ku isi tugira ibinini by'ubwoko bwinshi bigiye bitandukanye, aho hari ibinini bimwe na bimwe bikorwa mu bimera, kandi ibyo binini bikorwa mu bimera akenshiba bifite ingirakamaro ku buzima cyane. Aho akenshi usanga byibandwaho kandi bikaba bikiza indwara vuba.

Kwita ku menyo ni igikorwa gifasha buri wese kuba akeye mu kanwa kandi afite amenyo meza, aho hagiye hari imiti itandukanye dushobora gukoresha twoza amenyo, kandi iyo miti ikaba iboneka ahantu henshi hagiye hatandukanye kandi ku giciro cyiza.

Ikawa ni igihingwa kiza kandi kinjiza amadovize menshi mu gihugu, aho ubungubu umuntu afite ikawa aba ari umukire, kandi ikaba ikunzwe guhingwa hirya no hino mu gihugu, aho ari igihingwa gisabwa kwitabwaho kandi kigakorerwa isuku, kandi kigahabwa n'ifumbire kugira ngo gikure neza.